Umugabo w'umuhinzi wabigize umwuga, ahetse ipombo nziza y'akataraboneka, aho yambaye bote, ipantaro ndetse n'ikote ry'amaboko maremare n'ingofero. Ari gutera umuti ibihingwa bye by'imboga kugira ngo bitazangirika.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare. Yambaye ipantaro ya kaki akaba ahetse pombo mu mugongo, aho ari kuvomerera ibirayi bye kugira ngo bizere neza nta cyonnyi.

Abantu batandukanye, bakora mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, bambaye imipira y'ubururu, bakaba bateraniye mu murima uhinze n'ibigori bikiri bito, aho haje inzobere yambaye ikarita y'akazi mu ijosi, ikaba iri kubasobanurira uburyo bwo gukoresha imiti muri ibyo bihingwa.

Umugabo wambaye ishati ndetse n'ipantaro by'umweru, akaba ari umugabo worora amafi aho yazanye ibyo kurya by'amafi, akaba ari kugenda abinyanyagiza mu mazi kugira ngo amafi abashe kubirya.

Umusore ucuruza amafi. Akaba afite agatete azirobesha, aho afite n'ibyuzi mu rugo iwe. Agantete karimo ifu imwe yarobye, akaba agiye kuyijyanira umuntu ushaka kuyigura.

Agatete kanini ka purasitike. Karambitsemo amafi aho bayazanye ku isoko kugira ngo bayagurishe. Aya akaba ari amafi akungahaye ku ntungamubiri.

Abagabo babiri b'abarobyi, bafite agatimba, bakaba bari mu bwato umwe ari kubutwara, undi akaba ari kurambura agatimba mu kiyaga kugira ngo batege amafi ba bagaruke kuyajyana mu kanya.

Umugabo umwe yambaye ikoti ndetse yambaye na bote, akaba ari kumwe n'abana be babiri baba hungu, aho ari gushyira umutima mu cyuzi kugira ngo amafi abashe gukira indwara.

Abagore babiri umwe yambaye umupira w'amaboko maremare, undi yambaye ishati y'amaboko magufi, bose biteze ibitambaro mu mutwe, aho bahetse ibitete, bakaba bari gusoroma icyayi kugira ngo bajye kukigurisha.

Abagabo batatu b'abahinzi borozi babigize umwuga. Bahinga ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibihingwa nka ndorabukungu nk'ikawa aho bayihinga bakayitaho, bagategereza ko yera ubundi bakabona amafaranga.

Ni igiti kimwe cy'ikawa, ikawa zeze z'umutuku, izigiye kwera neza zigisa n'umuhondo, ndetse n'izindi zigisa n'icyatsi, zikaba ari ikawa zitagifite amababi, bisa n'aho bigeze mu gihe cy'izuba.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi, yikoreye ibase irimo ikawa akaba ari kugenda mu muhanda, aho agiye kuyigurisha kugira ngo abone amafaranga yo kugura ibyo kurya.

Abagore batatu bihangiye umurimo bakaba ari abahinzi babigize umwuga bari gusoroma icyayi mu murima munini cyane kugira ngo bakigurishe babone amafaranga yo kwiteza imbere ndetse n'ayo kurya.

Ibimera byiza bikaba ari ibimera by'ikawa birimo ikawa yeze ndetse n'ikiri ibitumbwe, ibi akaba ari ibihingwa bigaragaza u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga kuko bicururizwa kenshi na kenshi mu bihugu byo hanze.

Igiti k'ikawa kiriho ikawa yatukurije nyinshi cyane ndetse n'indi itaratukuriza. Ni igiti gishyishye aho hari umugabo uri gusoroma iyo kawa yeze kugira ngo age kuyitunganya.

Hari umuma munini cyane, uhinzemo igihingwa cy'icyayi, harimo abantu batatu, abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, bari gusoroma icyayi kugirango ngo bakijyane ku isoko nabo babone amafaranga.

Umurima munini cyane uhinzweho icyayi. Harimo umugore umwe wambaye agapira k'umutu, k'abobuk'amaboko magufi ndetse akaba yiteze n'igitambaro. Afite ibitebo bibiri bisa naho yaje gusoroma icyayi.

Imisozi miremire, ihinzeho icyayi, imisozi yose hakaba harimo abantu batatu bari gusorama icyayi. Harimo babiri bari gutembera, undi mugore umwe akaba yahagaze ari gusoroma.

Ni igiti cyiza gitoshye k'ikawa kiriho ikawa zimwe zahiye mu gihe izindi zikiri ibitumbwe aho nyiracyo akitayeho neza kugira ngo kibe gishishe bene aka kageni.

Igihingwa cy'ikawa kiriho ikawa yahishirije cyane isa n'umutuku ariko hakaba hariho utundi dukeya tugisa n'icyatsi bisa naho tutari twera. Iyi kawa nyirayo akaba ategereje kugira ngo azayisorome yose yaramaze gutukuriza.

Abantu batanu, abagore bane ndetse n'umugabo umwe bakaba bari guhingira umuceri mu gishangasa, bisa naho ari mu gihe cy'imvura kuko ni umuceri umeze neza utoshye kandi hakaba hariho n'amazi agaragara hasi mu muceri.

Ibikoresho bitandukanye birimo imiti y'amatungo iri mudukarito ndetse n'isaha. Biri mu nzu imwe, aho iyo miti yifashishwa mu kuvura amatungo yagize ikibazo.

Ni mu nzu icururizwamo imiti itandukanye y'amatungo. Hari iri mu gikarito cy'umweru, umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi, aho iyo miti yose yifashishwa mu kuvura inyamaswa.

Agakarito keza cyane k'umweru, karimo amacupa y'umweru ariho imipfundikizo y'ubururu, kakaba karimo n'ubujerekani bw'umweru bisa naho byose birimo imiti ivura amatungo.

Udupaki twinshi cyane tw'icyuma. Turiho igipapuro cy'umweru kiriho ibara ry'umutuku. Tukaba twanditseho amagambo atabona neza, ariko dushushanyijeho inka bisa naho ari uducupa tubamo imiti ivura inka.

Amacupa atandatu yose arasa n'umweru, irya mbere rifite ibara ry'umuhondo, irindi rifite icyatsi, irindi rirasa n'umutuku mu gihe yose ahuriye ku kuba arimo imiti rusange ivura inyamaswa.

Udushashi twinshi cyane, tukaba dufite ibara ry'ubururu, twanditseho amagambo y'umweru. Hashushanyijeho inkoko eshanu, imwe y'isake indi ebyiri z'inkokokazi, ndetse n'udushwi tukiri dutoya bisa naho ari udushashi turimo umuti w'inkoko.

Amacupa atatu arimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura inyamanswa ndetse n'utundi dukarito tubiri dusa n'umweru. Kamwe gafite irindi bara ry'umutuku mu gihe akandi gafitemo ibara ry'umuhondo.

Uducupa turindwi twose duteretse mu kantu kabugenewe, aho turimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura inyamaswa. Iruhande hakaba hari igipapuro kiri mu ibara ry'umuhondo kigaragaza amazina y'iyo miti.

Ni abantu babiri umukobwa na nyina, bakaba ari abahinzi borozi, bari guhinga umurima ku musozi, inyuma yabo hakaba hari ibisheke, imbere ndetse no ku ruhande hakaba hateye igihingwa cy'urutoki.

Abagore babiri, umwe yikoreye inkwi afite isuka mu ntoki, undi w'imbere ye nta nkwi afite ariko nawe afite isuka ku rutugu, bakaba bari gutambuka mu kayira aho bavuye guhinga bisa naho ari abahinzi babigize umwuga.

Inka nziza y'imbyeyi iri mu kiraro, umugabo wambaye ishati y'ubururu akaba ari kuyikama amata agwa mu ndo. Hirya yaho, hari n'undi mugabo wambaye agapira gatukura na we uri gukama inka, akaba ari gukamira mu ndobo, bisa naho bose ari aborozi.

Abagabo batatu, buri wese afite umuhoro, iruhande rwabo hakaba hari undi mugore wikoreye inkwi, ni abagabo ni abahinzi aho bari gutembera mu murima, bagiye kuhira icyarire.

umurima urimo ibihingwa bitandukanye, harimo ibigori byeze, bakanabisarura kuko byaromye, hasi hakaba hari ibindi bimera bitandukanye, byabindi byimeza, abantu batajya batera.

Ni ahantu hagari cyane hikibaya, hitegeye imisozi miremire. Hakaba hahinzwe ibihingwa bigufi bivamo ibiryo abaturage barya, ku ruhande hakaba hari n'inzira y'abagenzi.

Igiti kiza cyane kikaba ari igiti cy'umwenya kivaho amababi ndetse n'umuti gakondo, uvura indwara zitandukanye ziganjemo indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero.

Urwuri runini cyane rurimo ubwatsi bukiri buto, bisa n'aho ari mu gihe cy'izuba, burikurishamo inka ebyiri, aho umushumba wazo yazisize akigendera bisa n'aho yagiye kurya.

Ibigori bitatu birambitse hasi, birumye ariko bimeze nk'aho bashobora kuba barabitemye bitaruma neza, ahubwo bakaba wenda barabivunye ku bw'impanuka,

Umurima urimo imboga zitandukanye, nyinshi cyane. Muri izo mboga harimo n'amashu atoshye asa naho ari umurima ntangarugero mu mudugudu abantu baza guhahiramo imboga n'imbuto.

Umurima munini cyane w'akataraboneka uhinzwemo umuceri, umuceri umwe urumye usa naho weze mu gihe ku ruhande hari umuceri utarera. Umuceri ugiye urimo uduti turiho udutambaro dutandukanye tugaragaza imbago naho buri umwe adakwiye kurenza.

Imboga zitandukanye zirimo ibibiringanya, imiteja, ibitunguru ndetse n'ibindi bitandukanye bikaba biri mu dutebo, buri cyose mu gatebo kacyo aho biri gucururizwa no mu isoko.

Umurima mwiza cyane uhinze neza. Urimo ibihingwa bitandukanye baranduye bakabita hasi, aho basizemo umwumbati ukiri muto ariko utoshye, bisa naho bashaka kuwubungabunga ngo uzeremo wonyine.

Amazi arimo umugezi utemba. Akaba ari amazi yifashishwa mu kuvomerera ibihingwa bitandukanye biba biri hafi y'umugezi. Twavuga nk'ibigori mbona bitoshye cyane, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abantu bahuriye mu ishyamba akaba ari ku munsi w'umuganda, wahuje abaturage ndetse n'Abasirikari bose bari gutema ibihuru kugira ngo herekuzamo inyamaswa zona.

Imisozi miremire umusozi umwe uriho ibihingwa by'ibigori bikiri bito, ukaba uriho n'ibiti ku ruhande hakurya hakaba hari imisozi y'amashyamba aho arimo igihu kinshi cyane bisa naho hakiri mu gitondo.

Ni ishyamba ryiza cyane rinini ririmo ibiti bitandukanye by'inganzamarumbo, akaba ari ishyamba ritoshye cyane, aho ubona ko turi mu gihe cy'imvura cyangwa se rikaba ryitabwaho cyane n'abarikikije.

Umuhanda munini cyane wa kaburimbo. Urarambuye neza, hakaba harimo imodoka imwe iri kugenda. Ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru, ku rundi ruhande rwa ruguru hakaba hari amapoto menshi cyane ariho amatara aboneshereza umuhanda mu gihe k'ijoro.

Ishyamba rinini cyane ry'inzitane. Ni ishyamba ritoshye, ririmo ibiti bimwe birebire, by'inganzamarumbo, ariko hakaba n'ibindi bikiri bigufiya. Akaba ari ishyamba ritoshye, bisa naho, ari mu gihe k'imvura.

Inyubako zo mu cyaro zikaba ari inyubako z'ubucuruzi aho zitondetse impande y'umuhanda, inyuma yazo hari urutoki runini cyane mu gihe ruguru yazo hari ipoto ry'amashanyarazi.

Abantu benshi cyane bakaba ari abantu babungabunga amashyambaba bari gutera ibiti mu murima uhinze neza ndetse inyuma yabo hakaba hari ishyamba ritoshye, aho bagira ngo n'aho bari guterasamire ishyamba ritoshye nk'iryo ry'inyuma yabo.

Mu ishyamba harimo ibiti, binini cyane by'inganzamarumbo ndetse bidafite amashami ariho amababi, hasi hakaba hari ibindi biti bigufiya, byo bifite amababi, bitoshye.

Ishyamba rinini cyane. Ni mu gihe k'izuba ariko rya mu gitondo. Rikaba ririmo ibiti by'inganzamarumbu, bimwe ni bitoya biracyagaragaza amababi mu gihe ibindi ari birebire cyane utabona amababi yabyo.

Ishyamba ry'inzitane rikomeye cyane. Harimo ibiti by'inganzamarumbo birimo ibidafite amababi ndetse n'ibifite amababi. Harimo igiti kizwi nk'umuvumu aho kizirinze cyane kuri bigenza byacyo.

Ibihingwa bitandukanye bihingwa mu cyaro. Twavuga pavuro, ibigori, karoti, inkeri, ibitunguru, ndetse n'ibindi byose bitandukanye, bikaba birunze hasi mu isoko kugira ngo, abantu baze kubigura.

Akazu gasakaje amasashe. Karimo imbuto zitandukanye zikiri ntoya zirimo urusenda, ziratoshye cyane kuko ari mo bazororera zikiri nto kugira ngo bazajye kuzitera.

Abantu benshi biganjemo abagore, kuko harimo abagabo babiri gusa. Bari gutambuka mu murima uhinzemo amashu, akaba ari ya mashu atajya yibumba, ahubwo akaba ari ya yandi basoroma amababi.

Akarima k'igikoni karimo imboga zitandukanye ndetse n'ibitunguru, hakaba harimo dodo. Kateguwe neza aho kubatse gatandukanijwe n'imifuka, iruhande rwaho hakaba hateye insina.

Umurima munini cyane w'ikibaya, hakurya hari imisozi itatu aho muri uwo murima hahinzwe ibihingwa bigufi. Harimo akamashini gato, gafite amapine abiri, kakaba kifashishwa mu kuvomerera ibyo bihingwa.

Umugore wambaye ikanzu. Afite igihombo kiri kuvamo amazi, inyuma ye hateretse umurasire utanga umuriro. Ari kuvomerera amashu ageze kure bisa naho agiye kwera.

Umusore wambaye imyenda idasa neza cyane, ari mu murima aho afashe igihombo kiri kuvamo amazi, akaba ari kugenda avomerera ibihingwa biteye muri uyu murima kugira ngo bituma.

Uburyo bushya bwateye mu Rwanda bwo kuvomerera imyaka. Akaba ari ukugenda bashyira impombo ahantu hatandukanye mu murima, aho bafungura amazi zikivomerera, zivomera ibihingwa bitandukanye nka karoti ndetse n'ibindi.

Abantu benshi ni abahinzi babigize umwuga, bambaye amasarubeti y'ubururu ndetse bambaye na bote. Umwe muri bo ni umugore, akaba afite igihombo kiri ku kuvamo amazi, aho ari kuvomerera amashu ndetse n'ibigori bikiri bito.

Ni uburyo bwiza bwazanywe na leta y'u Rwanda. Aho abantu bavomerera imyaka yabo bidasabye gukoresha ibijerekani. Aha ni impombo ziri mu murima zikaba ziri kuvamo amazi anyanyagira mu bihingwa.

Akuma kifashishwa mu kuvomerera. Kari kuvomerera ibihingwa by'ibishyimbo, aho ari mu gihe cy'izuba. Bakaba bari kubivomerera kugira ngo bikomeze gutoha.

Ikiyaga kiza cyane bisa naho ari ku kazuba ikiyaga kirimo ikirwa kimwe kikaba kiri hagati y'imisozi myiza yera, hari ibiti, ibimera bitandukanye by'ibyatsi ndetse n'ibihingwa bitoshye.

Imisozi ibiri iteganye, imisozi myiza cyane yera umwe uriho urutoki ndetse hepfo mu gishanga hakaba hari umugezi munini utemba, hakuno hashinze amapoto, hakaba hari n'ibiti birebire.

Ikiyaga kiza cyane kiri hagati y'imisozi miremire iriho amaterasi y'indinganire, akaba ari ikiyaga kitegeye ikirunga cya Karisimbi giherereye mu Majyaruguru y'u Rwanda.

Imisozi miremire ihinzeho ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibishyimbo ndetse n'ibigori, hakaba hateye n'ibiti byinshi, hakaba harimo igiti kimwe kinini cy'inganzamarumbo byose bigaragaza ubudasa bw'imisozi miremimire.

Imisozi miremire, isa naho ari nimugoroba izuba riri kurenga, akaba ari imisozi iriho amaterasi y'indinganire, ndetse akaba ari'imisozi ihingwaho, abahinzi bahuje ubutaka, iriho ibihingwa bitandukanye bitoshye, ndetse hakaba hari n'undi musozi uri hakurya uteyeho ishyamba.

Ikiyaga kiyiza cyane, gifite ibirwa bibiri binini cyane, aho iruhande rw'ikiyaga ari umusozi muremure uteyeho ibihingwa bitandukanye n'urutoki ndetse n'ibigori.

Ikiyaga kiyiza cyane, kiri hagati y'imisozi miremire, aho harimo ibirwa bibiri bitoya. Kuri iyo misozi hahinze ibihingwa bitandukanye, byiganjemo iby'amashyamba akurura umwuka mwiza abantu bahumeka.

Umusozi mwiza cyane ugaragaze ubwiza nyaburanga, uhinzeho ibigo bitandukanye bitoshye, aho hakurya y'aho hari imisozi ibiri iriho amashyamba manini cyane y'inganzamarumbo.

Imisozi miremire yera cyane ikaba iriho ibihingwa bitandukanye bitoshye. Twavuga nk'imbuto z'amashu, ibigori ndetse hakaba hari n'insina. Ku w'undi musozi hari ibiti bitandukanye, harimo kimwe cyasumbye ibindi.

Ibiraro byinshi biregeranye akaba ari ibiraro byororerwamo inkoko zikiri ntoya. Harimo imishwi isa n'umweru, hakaba harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kwita kuri iyo mishwi kugira ngo ikure neza.

Inka iri mu kiraro, ikiraro cyubakishije ibyuma aho nyirayo yayisize mu kiraro ntabwatsi ayihaye ndetse akaba atari no hafi kugira ngo ayigaburire.

Inka nziza y'isine. Bayiteye iherena ry'umuhondo, wanditseho umubare, ibihumbi bitatu magana atanu na mirongo irindwi n'icyenda. Ikaba ari inka iri mukiraro, yasohoye umutwe hanze ngo irye ubwatsi.

Imishwi itandukanye iri mu ibara ry'umweru, ikaba imwe iri mu tumuga twabugenewe, akaba ari ahantu haturagirwa iyo mishwi ndetse hakaba hari n'ibikoresho bitandukanye biyifasha kubaho neza ndetse no gukomeza gukura.

Ishyo ry'inka riri mu murima, hariho umushumba umwe uhagaze munsi y'igiti mu gihe yaretse inka zigatembera mu rwuri zose ziri kurisha kugira ngo zibashe kubaho neza.

Ni inzu yororerwamo inkoko nkuru. Harimo inkoko zizwi nka Koroyira ndetse hakaba harimo n'amasake meza cyane yakuze. Ikaba ari inzu irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo izo nkoko zirusheho kugira ubuzima bwiza.

Amahene menshi cyane, ni umukumbi aho bayajyanye mu rwuri akaba ari kurisha, yiganjemo afite ibara ry'umweru, aho umushumba wayo yayatereye we akigendera.

Ni imishwi ikiri mitoya y'inkoko, akaba ari mishwi ituragishwa imashini aho hari n'imbabura irimo amakara ashyushye, aho iyo mbabura ihatera ubushyuhe kugira ngo imishwi ikomeze gukura neza.

Ni ingurube nini cyane y'ishashi, iri mu kiraro aho iri kumwe n'ibibwana byayo icyenda, aho kimwe kiri kuyonka, ibindi bikaba biri gutembera hano mu kiraro.

Inka nziza cyane y'ingweba. Isa n'umukara, ikaba iri mu kiraro kidasasiye. Bayihaye akagori gato ngo ibe irarya ariko izuba rikaba riri kuyica kuko ikiraro kirarangaye cyane.

Ni inka nziza cyane irateranye ikaba imeze neza aho iri mu kiraro kidasasiye. Iteye iherena riri mu ibara ry'umuhondo, bisa naho bari bari kuyisukurira ikiraro.

Ingurube nziza cyane, iraryamye ikaba ifite ibara ry'umweru, aho iryamye mu kiraro cyayo. Ni ingurube nkuru ubona ko iri mu kigero cyo kuba yagura amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu.

Inzu nini cyane irimo imishwi y'amabara atandukanye, aho yororerwa iki mito mbere yuko bayijyana ku isoko, hateretsemo n'imbabura nini cyane iriho amakara ndetse n'umuriro, ifasha mu kongera ubushyuhe kugira ngo iyo mishwi idapfa.

Ni mu kiraro cyubakishije amatafari ndetse kikaba gihomye, harimo ingurube nini cyane ifite byana bitatu, byose biri kuyonka mu gihe yo iri gutoragura ibyo kurya mu kiraro.

Mu ikaragiro hari ibyuma byifashishwa mu gukaraga amata. Iruhande hakaba hari etajeri irimo amata mu ducupa twa parasitike, bisa naho ari amata yamaze gusukurwa ndetse no gutegurarwa.

Umugabo w'umworozi yambaye ingofero, ishati ndetse n'ipantaro n'inketo zifunze. Akaba afite icyansi aho ari gutembera mu nka ajya kureba iyo yakama kugira ngo abone amata yo kunywa ndetse n'ayo kugurisha.

Ni inka y'isine ifite ibara ry'umweru ku mutwe, ikaba iteye n'iherena ry'umuhondo, imbere bayiteye iherena mu izuru, bakaba bayifungiranye mu nzu yayo ndetse bayihaye n'utwase duke two kurya.

Umugabo w'umworozi yambaye itaburiya y'umweru, akaba ari kugenda mu nzira iruhande rw'inka nziza cyane, ziri kumureba ubona ko yazishimiye nkaho ari ize ndetse akaba azitayeho cyane.

Mu nzu nini cyane hasi hari ihema rinini cyane rikwiye inzu hakaba hasutseho ibigori byinshi cyane bisa naho ariho babika ibigori bihunguye mbere yuko bajya kubigurisha.

Ni imifuka ine, ibiri irafunguye, mu gihe indi ibiri ifunze, umufuka umwe urimo ubunyobwa bw'inete mugihe undi urimo umuceri, umugabo akaba yayoye ubunyobwa ari kubwerekana.

Umugabo afite impeke za soya ndetse n'ibishyimbo mu ntoki, akaba ariko zibara, zimwe zimeze neza mu gihe izindi zamenaguritse ubwo bari bari kuzihora bamaze kuzisarura.

Umugabo wa mucyaro w'umukire, yambaye ingofero y'umukara, ikobo ndetse n'ishati, akaba yanitse ibigori byinshi cyane by'amahundo ku musozi, aho ari kugenda abibirindura ngo byose byume.

Akanyana gatoya k'inka karyamye hasi kapfuye, nyuma y'uko imbyeyi yari iri kukabyara yapfuye ikabyara none bakaba bayiriye.

Umugabo wambaye isarobeti y'igitaka. Yambaye n'agasashe mu mutwe, akaba ari umuveterineri. Imbere hari undi mugabo, aho ari gukora ku mabere y'inka. Umuveterineri akaba ari gutera inka intanga kugira ngo izabyare.

Umusozi mwiza cyane uriho ubwatsi ndetse hakurya hakaba hari n'igihingwa cy'ibigori. Muri uwo musozi bisa naho ari urwuri harimo inka nziza y'inyambo iri kurisha yonyine.

Inka y'umukara ifite ibara ry'umweru, ikaba ifite ikiguma ku nda, isa naho ari imbyeyi babaze kugira ngo bakuremo inyana yayo ubwo yari igiye kubyara.

Umugore ufite impamyabumenyi mu bijyanye no kwita ku matungo. Akaba ari kuvura inka yavunitse ukuguru, aho ari kuyibaga kugira ngo yongere ayidode imere neza.

Abaganga batatu bari kwita ku murwayi umwe. Umwe ari kumubaga ,undi w'umugabo yambaye agapfukamunwa akaba ari kuzuza utuntu mu ikayi mu gihe undi mukobwa ari hirya yagiye gushaka ibikoresho.

Abantu babiri bambaye amasarubeti y'ubururu, umwe yambaye ingofero na boti by'umweru, bakaba bari gutera intanga inka iririmo igipangu. Umwe yafashe umurizo, undi akaba ari kuyitera intade.

Mu ishyamba ku musozi, hakaba hari inyamaswa zitandukanye, iza zebora ndetse n'ishya, zose ziri gutembera ku musozi nta gukimbirana kuko ziri gushaka amaramuko.

Ibishushanyo bigaragaza inyamaswa z'imusozi. Twavuga nk'intare, imbogo, ingwe, tukavuga n'izindi zirimo ingurube y'ishyamba ndetse n'inzovu, zose ziri gutembera mu ishyamba.

Inyamaswa nziza cyane zizwi nka zebura, zari ziri gukina none ubu zikaba zije mu mugezi kunywa amazi. Zimwe ziri kunywa amazi, mu gihe izindi zikiri ku gasozi zitaramanuka ngo zinywe amazi.

Intare, z'imusozi. Zikaba zarafashwe, zikabikwa mu nzu zabugenewe aho ubona zireba zishonje cyane, aho zifite umujinya wo kuba zitabasha kwitemberera mu mashyamba nkuko kamere yabo ibizitegeka.

Inyamaswa ebyiri zizwi nk'ingwe, ni inyamaswa z'ishyamba, akaba ari n'inyamaswa z'inkazi, ziri hamwe mu ishyamba aho ziri gutembera zireba ko zabona amaramuko.

Intare y'ingabo ifite umugara yarakaye cyane, aho iryamye mu kinani, iruhande rwayo hakaba hari ibiti bifite amababi matoya cyane.

Inyamaswa izwi nk'ingurube yo mu mazi. Ifite ibihembe bibiri, ikaba ifite amatwi, ikaba iri gutembera ku musozi ndetse iri kurisha ubwatsi ariko ikaba ifite uruhu rukanyaraye rusa naho rwanduye.

Inyamaswa zitwa ishya, ni inyamaswa eshanu, aho enye muri zo zihagaze mu mazi zikaba zaje kuyanywa, indi imwe ihagaze hirya ku musozi iri gucungira ngenzi zayo.

Imbata eshatu ebyiri zirahagaze zifite ibara ry'igitaka ku munwa ndetse no kumirizo inyuma zirasa n'umukara, indi imwe iri koga mu mazi bisa naho ari yo ntoya muri zo.

Umusore uhesa igikapu, ahagaze impande y'inkende, ndetse akaba ari ko zireba, imwe muri zo iri kumureba nayo, mu gihe indi irikwigendera mu kinani gikikijwe n'igipangu kiri irangi ry'umweru ku ruhande, ndetse kikaba cyanyubakishije amatafari ahiye.

Ku musozi mwiza cyane . Uriho ibimera bitandukanye, yiganjemo ibiti byumye ndetse n'ubwatsi bukiri butoto. Hakaba ahagaze ihene ifite amahembe abiri maremare.

Inyamaswa y'inkende. Ifite ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'igitaka, hejuru mu mugongo bisa naho yanduye. Ikaba ari inyamaswa y'umusozi iri gutembera mu ishyamba ririmo ibimera bitandukanye.